Ni akazu ka Eyateli aho kanditseho ikirango cya Eyateli, karasa umutuku, inyuma n'imbere hari abantu bagakikije bigaragara nk'aho ari mu isoko.

Akazu ka Airtel, handisteho Airtel money, hari umugabo ugiye kukinjiramo yambaye ishati y'amaboko magufi iri mu ibara, ry'ikigina, yambaye n'ipantaro y'umukara.

Ni ahantu mu mutaka wa MTN, bari hamwe mu kazu gashinzwe kwakira abantu mu gihe nk'imvura irimo kugwa, abo bantu bakarimo bambaye utujiri twa MTN.

Akazu gatukura kazamutse gafite ikintu gikingira umuyaga n'izubaka abakarimo ni akazu k'ubucuruzi bw'amayinite ya Airtel, imbere yako hari umutaka na wo wa Airtel w'umutuku, byanditse mu mabara y'umweru n'umuhondo.

Bari mu ihema n'urubyiruko ndetse n'abantu bakuru babari inyuma, baricaye bategereje ubaganiriza hirya yabo hari utugare twinshi twa siporo.

Bari ku kazu ka emutiyene aho umuntu uri mu imbere arimo arabitaho, bisa nk'aho bakeneye amayinite, ni abagabo batatu n'abagore babiri bombi bakeneye kugura amayinite.

Abagore batatu barahagaze, harimo umwe w'umuzungu, abandi baricaye harimo n'umugabo umwe, mu by'ukuri bari kugaragaza igishushanyo mbonera cya koperative yabo.

Abagize koperative bicaye hamwe bambaye udupira, abandi bambaye amakote, abambaye udupira harimo abambaye utw'umukara n'abandi bambaye utw'ubururu, ni abagabo n'abagore, bicaye mu ihema barimo barumva inama.

Ni ibigori biri hamwe, ni byinshi cyane bisa nk'aho babihinze hamwe, bakaba barabikusanyirije hamwe bara bisaruye, biracyari ku bitiritiri byabyo ntago barabizanira imashini ngo ibihungure.

Bari mu ihema, bari mu nama ni abagabo n'abagore bambaye imipira imeze nk'inifomu y'umukara n'ubururu barakurikiye bisa nkaho bari gukangurirwa gukora koperative.

Abagize iyi koperative bicaye hamwe, baje gukurikirana inama aho bari mu inzu mo imbere hari umugabo ufite microhone arimo arababwira icyo bakwiye gukurikiza muri koperative yabo.

Abagize koperative ni abagabo n'abagore barahagaze bose, bafite ibikoresho nk'injerekani na rozwari, bigaragara ko bavuye gukora igikorwa cyo kuhira imyaka, bari gutekera hamwe mu isafuriya ku mashyiga ya kinyarwanda.

Bari imbere y'inyubako, aho barimo baraganira, n'abagabo bahagaze, abandi bari hirya baparisimoto iyo nyubako igizwe n'amatafari ahiye, bisa nk'aho ari itsinda cyangwa koperative.

Ni koperative y'abantu yahinze amatunda, bayihagazemo ayo matunda ni abagabo n'abagore bahurije hamwe, hakurya yabo hari ikibaya kirimo ibihingwa byinshi.

Ababyeyi b'abamama bari kumwe n'abagabo, bari ahantu ku musozi hubakiye, haruguru n'ishyamba ahandi hateye ibintu by'ibihingwa biri mu ibara ry'icyatsi kibisi.

Amacupa menshi atandukanye hari ay'icyatsi, hari ayo mu ibara ry'umweru, hari n'andi ariho ibirango byinshi bitandukanye, ni muri bare aho bayacururiza aba arimo ibinyobwa nk'inzoga n'ibindi.

Amakaziye atanu n' ay'inzoga ari mu mabara atandukanye umutuku, oranje, ubururu, nandi abiri y'umukara yose ateretsemo amacupa yifashishwa mu kabari abantu banywa inzoga.

Ni muribare ahari intebe, ameza, inzoga, ziri hejuru aho abantu bose babona. Iyo uje kuzinywa ufatamo iyo ushaka, ukishyura.

Ni muri butike aho hari imifuka myinshi, haba indagara, amavuta, imiceri, isukari, ni ibintu byinshi bikubiyemo bacuruza ni ahantu hubakiye.

Ni muri botike aho abantu batatu bari, hari amagaze menshi haba ay'ubururu ay'umuhondo ay'umutuku, yose barimo barayatondeka ku mu rongo, bari kuyacuruza.

Ni muri botike aho bacuruza ibintu byinshi bitandukanye, hari impapuro z'isuku ziri mu gikarito cyazo, ni mu gishashi ziba zirimo ari nyinshi zigacuruzwa muri botike zitandukanye.

Ni mu iduka ahacururizwa ibintu byinshi bitandukanye, byiganjemo ibyo kurya, amavuta, imiceri, za kawunga, amavuta yo guteka yo mu tuvido n'amasukari byose biri ahantu hamwe, harimo ubicuruza ndetse harimo n'umuguzi.

Ni mu rusengero rw'abakatolike abantu bicaye bareba imbere yabo ishusho ya yesu, wabambwe ku musaraba hirya hari n'indi shusho ye ahagaze ateze amaboko, bicaye bari gusenga.

Ni mu Kiliziya aho padiri arimo arahereza abantu udusa nkahoaho ari imigati, aho yambaye imyenda yera, ndetse undi ugezweho akajya agenda yakira.

Ni abagabo n'abagore bari mu rusengero, barahagaze bose bisa nk'aho bari kugenda baherezwa utuntu two kunywa, bisa nkaho bahawe ifunguro ryera mu rusengero.

Bicaye hamwe muri sale idekoje ibitambaro birimo umweru n'icyatsi n'umutuku, ni abagabo n'abagore, imbere yabo hateretse ameza ariho igitambaro cy'umweru n'icyatsi, bari mu mumasaha yo gusenga.

Church Emergencey Fund ni amagambo yo mu ibara ry'umweru ariko ku gitambaro cya orange, ni urusengero rurimo abantu benshi bari guhimbaza, hadekoye amabara nk'ubururu umuhondo, umweru n'icyatsi bari gusenga.

Abamama bari imbere y'urusengero, bambaye imishanana, bamanitse amaboko bari kubyina, n'abagabo bari inyuma yabo, bose bari kubyina baje gusenga bambaye neza cyane.

Hari abantu benshi, benshi cyane bicaye, bisa nk'aho bari kumwe n'umuntu w'umupadiri uri kubabwira ivanjiri, bari imbere y'ibiti by'inturusi, bicaye hanze mu dupasiparume.

Abagabo abagore. Abagabo bambaye amakositime abenshi baricaye bari gutega amatwi umuntu uri kubabwira ijambo ry'imana, bari mu rusengero, barakurikiye bose.

Hari amashusho ya yesu, hamwe ari ku musaraba ndetse hari na Bikira Mariya hirya, ni amashusho ari mu rusengero rw'abakatolike, aho hari abantu benshi baje mu misa.

Ni ku meza ahari isorori irimo isosi, hari ibindi byo kurya bitandukanye ndetse harimo n'inyama y'inkoko iri ku ruhande, bigaragara ko bagiye kuzirya.

Ni inyubako nziza yiyubashye irimo isuku nyinshi, irimo uburiri bushashe neza, ni hoteli imwe iri ahantu heza hatekanye.

Ni inyubako y'igorofa iri ahantu heza hitaruye, hejuru yaho hari igicu kiganje gisa nk'igitanga imvura, ni hoteli imbere yayo hari ubusitani bwiza.

Ni mu nyubako nini nziza irimo irakamo amatara, ni muri hoteri ahari ameza intebe, n'ibindi bikoresho, aho ushobora kugenda ukiyakira, ni muri hoteri nziza.

Ni ku meza hariho ibirahuri bitatu bya ji, hari amasahani abiri ariho ibiryo, hamwe hasa nkaho hariho inyama ahandi hariho imbuto, ni muri hoteri aho abantu bashinzwe kwiyakirira.

Umugabo wambaye, itaburiya y'umweru n'akagofero k'umweru mu mutwe, ari gukora muri hoteri. Aho ari guseriva ku meza bisa nkaho bagiye kwakira abantu, hari n'ibyo kunywa, ni muri hoteri nini cyane irimo ibara ry'icyatsi.

Ni hoteri yubatse hirya y'umuhanda, umuhanda urakomeza uyinjiramo ni hoteri y'igorofa, imbere yayo hari indabyo nyinshi z'amoko menshi.

Isoko aho umugabo utagaragara mu maso aragaragara igice cya'epfo cy'amaguru, arimo arabaza igiciro, hino hateretse umunyu, bawupimye mu bikombe uko birutana, hari n'undi mufuka urimo umuceri.

Ni mu isoko rusange, aho abantu barimo baracuruza ibintu bitandukanye, hari uwicaye ku kadobo, imbere ye hari ibintu byinshi ari gucuruza, hari umumama uhagaze ugaragara igice cyo hepfo, imbere ye hari akabasi karimo utuyunguruzo tw'icyayi, n'ibindi byinshi nk'imikasi nawe arabicuruje.

Ni mu isoko ahari imyenda myinshi ijyanye n'amakanzu y'abagore iramanitse mu gashitingi kamanitse ku biti, hirya yaho hari amashitingi manini arimo ay'icyatsi n'ubururu.

Bari kuva mu isoko aho umusaza aguze inkweto zifunze z'umukara arimo arazereka umugabo bari kumwe wambaye inkweto zifunguye amano, yambaye n'ipantaro y'umukara umusaza afite inkoni.

Ni mu isoko, aho bacuruje ibikoresho byinshi bitandukanye, hari ubuyunguruzo, hari imidaho, hari utudobo, hari amasahani, hari ingufuri n'ibyuma n'ibindi bintu bitandukanye.

Ni mu isoko rusange, aho abantu bari ku binyabiziga, abandi bari kugenda n'amaguru, bamwe barinjira, abandi basohoka n'ahantu ku kibuga kitariho ibyatsi.

Ari imbere y'isoko yambaye agapira gaciyemo amabara menshi, umutuku, umweru, ikake, yambaye n'ipantaro y'icyatsi n'inkweto z'umweru. Ni umusore uhetse ibaga y'umukara ari kuva guhaha.

Umugabo wambaye agapfukamunwa yambaye umupira w'amaboko maremare w'icyatsi kibisi, yambaye n'ipantaro y'umukara afite igare yaziritseho imizigo myinshi n'imifuka igeze muri itatu, avuye mu isoko aho hari n'abandi bagenzi be bari guhaha.

Resitora irimo intebe, irimo ibishushanyo bitandukanye yubatse neza, aho buri wese aba afite aho kwicara, hicayemo abantu bake, buri dutebe duteye nk'itsinda, aho hashobora kwicara abantu benshi.

Ni mu karesitora hari udutente muri buri munsi y'ako gatente harimo isahani iriho ibyo kurya byinshi bitandukanye, hari n'uturahure two kunyweramo nka ji na fanta.

Ahantu hubatse neza hari ibintu by'ibikoresho by'amabara atandukanye, hari ameza menshi n'intebe, kumeza hagiye hariho ibitambaro bitandukanye, ni ahantu muri bare resitora ndetse na hoteri.

bari mu muhanda umumotari atwaye moto ahetse umugabo wambaye agapira k'umweru n'ipantaro y'umukara, ni muri kaburimbo aho barimo barererekeza aho umugenzi yifuza.

Ni mu muhanda aho abamotari ndetse n'amamodoka biri gutambuka, ni umumotari uhetse umuntu, umuntu ateruye agafuka ka oranje, bari kuri moto bari kugenda.

NI motari uri mu kazi ahetse umugenzi bambaye makasIkE y'umutuku bari mu muhanda wa kaburimbo, umumotari afite umupira ku bitugu, yambaye n'undi mupira w'Icyatsi yazamuye ikirahure cya kasike.

Ni abamotari babiri bari imbere, inyuma yabo hari abandi bantu bari kugenda bacunga amagare n'amamoto, bari mu muhanda wa kaburimbo, abo bamotari bari imbere bambaye amakasike atandukanye. Umwe iy'umutuku undi iy'icyatsi.

Ni mu muhanda umugabo ahetse umugore, umugabo yambaye agashati k'umutuku, n'imbere harimo agasengeri k'umweru, yambaye ipantaro y'ubururu, isa nk'ikoboyi, bari ku igare ahetse uwo mugore, bari iruhande rw'amazu ndetse n'ibirabyo.

Ni imodoka iri mu muhanda iri kwerekeza imbere, ikomeje urugendo, iri inyuma y'ibiti binini bitanga amahumbezi hafi y'ahantu hameze nko muri bare, hubakishije inzu ziteye amarangi y'ubururu.

Bari mu mu handa kuri moto aho umwe ahetse undi, uri imbere yambaye ikote ry'umukara, uri inyuma yambaye agapira k'umutuku, bari kuri moto mu muhanda wa kaburimbo, uciyemo akarongo k'umuhondo mo hagati.

Motari ari mu muhanda yambaye agapira k'icyatsi, yambaye ipantaro y'umuhondo n'inkweto z'umweru, ahetse umumama wifubitse agapira ka pinki n'ijipo y'umukara, yambaye n'inkweto z'ubururu, bari kugenda mu muhanda wa kaburimbo, hirya yabo hari abantu bari kugenda n'amaguru.

Bari kuri moto ni umumotari uhetse umugenzi, umugenzi yambaye ishati y'umweru n'ipantaro y'ikake, umumotari yambaye agapira k'umukara n'ipantaro ijya kuba ikoboyi y'umweru, bambaye kasike z'icyatsi bari iruhande rw'ipoto ry'amashanyarazi.